Isahani irambitseho imishito ibiri iriho inyama ,ndetse n'ibisate bibiri by'ibirayi ,ariko iruhande rw'iyi sahani hakaba harambitse indi sahani nanone itarimo kugaragara, ikindi kandi nta muntu uhagaragara, bigaragara ko yaba agiye gufatira ifunguro.

Inzu z'ubucuruzi, imwe muri zo isize irangi ry'ubururu, iruhande rwa zo hakaba hari imodoka nini itwara imizigo, iyo modoka ikaba itwikiriye, hejuru y'izo nzu, hakaba hanyuzeho insinga nyinshi z'umuriro w'amashanyarazi.

Abantu babiri barimo kugenda iruhande rw'umuhanda umwe n'umukobwa undi umugabo. Inyuma yabo haparitse ibinyabiziga by'amagare bo barimo baragenda bajya mu muhanda.

Umu mama urimo gukora isuku imbere y'iduka. Kuri iryo duka ku idirisha harambitseho imineke. Uwo mu mama iruhande rwe mu muryango hateretse imifuka, bigaragara ko na yo irimo ibindi bicuruzwa.

Inzu z'ubucuruzi zubatse ku murongo, zifiteho n'icyapa, izo nzu ziri iruhande rw'umuhanda, mu muhanda hakaba hari umumotari uri kugenda kuri moto, utwaye n'umugenzi. Ikindi imbere y'izo nzu, hari insinga z'umuriro w'amashanyarazi.

Icapa kimanitse hejuru ku nzu kigaragaza, ko aho hantu hakorerwa sitidiyo, cyangwa se gutunganya amafoto, gutunganya imiziki, ndetse n' amavidewo, ik' icapa kikaba kiriho abantu bicaye n' abandi bahagaze.

Umuntu ufite igare, iri gare rikaba ripakiyeho ibisheke byinshi cyane. Arimo kugenda arisunika, ndetse iruhande rwe na none hari umumama, bigaragara ko bahuye barimo kuvugana.

Abagabo babiri bicaye hanze y'inzu iruhande rw'umuryango, hakaba n'undi mugabo umwe wicaye imbere mu nzu, babiri bicaye hanze barimo kuganira undi wicaye mo imbere, we ari wenyine.

Inyubako ndende hasi muri etaje ya mbere, hariho agace kamwe gacururizwamo udukapu ndetse n'indi mirimbo, harimo nk'amasaha, ndetse iruhande rwaho naho bigaragara ko hateretse utudobo twinshi cyane.

Ibiti birebire bikuze cyane. Iruhande rw'ibyo biti haparitse imodoka ebyiri. Ikindi imbere y'izo modoka hari ibyapa kabona inzu isize irangi ry'umuhondo, yanditseho Sikolo.

Inzu ndende ya etaje hasi hariho robo yambaye ikanzu, irobo iri bacururizaho imyenda. Iruhande rwayo hakaba hari n'umugabo urimo kugenda ufashe telefone.

Iduka ricuruza ibyo kunywa harimo: nk'amafanta, amaji ndetse harimo n'amavuta yo kwisiga. Ikindi kandi harimo n'amakarito bigaragaragara ko ayo makarito ari ayo ibindi bicuruzwa.

Iduka ricuruza imyenda, mo imbere hagaragara ko harimo imyenda imanitsemo. Hakaba na robo hanze ziriho imyenda iri gucuruzwamo imbere. Mu nzu hateretsemo agatebe. Ikindi kandi kuri iyo nzu hariho ibyapa byinshi bitandukanye.

Inzu imwe ifite imiryango myinshi, imbere y'iyo nzu kuri buri muryango hari abantu. Kandi iruhande rw'iyo nzu cyangwa se imbere y'iyo nzu, hari ipoto nini cyane iriho insinga nyinshi.

Inzu ya etaje iriho insinga z'umuriro w'amashanyarazi，isize amarangi y'umweru， ndetse ifiteho n'icyapa kigaragaza ko mo imbere， hacururizwamo ibiribwa.

Isoko risakariye, ricururizwamo imyenda, harimo imyenda y'abagore cyangwa se abamama, hakongera hakabamo imyenda y'imbere nanone y'abagore n'abakobwa, hakabamo n'utu muswari.

Impombo zikoreshwa mu gutwara amazi, izi mpombo zikaba zigiye zizinze uruziga zirunze hamwe ari nyinshi, iruhande rwazo hakaba hagaragaraho ibyapa bigaragarako bikoreramo aba ajenti ba Emutiyene savici senta.

Abagabo babiri bicaye imbere y'inyubako hanze, hakaba hari n'undi mugabo wicayemo imbere. Imbere y'iyo nzu hari icyapa cyangwa se umutaka ukoreramo ishami rya emutiyeni.

Inzu y'ubucuruzi, imbere yayo hari abagabo bane: umugabo umwe afite igisheke, undi afite anverope, abandi baricaye, ndetse iyi nzu bigaragara ko ikorerwamo ubucuruzi bijyanye n'ibintu by'amasima n'ibindi byose bikoreshwa mu bwubatsi.

Inzu ndende ifiteho icyapa kigaragaza ko ari gesite hawuze cyangwa se inzu abantu bashobora gucumbikamo. Kuri icyo cyapa hariho na nimero ushobora guhamagaraho uramutse uyikeneye.

Abadozi bicaye ku mashini bigaragara ko barimo kudoda, iruhande rwabo hari ibitenge bimanitse, ibitenge bigaragara ko ari ibyo barimo gucuruza, ndetse barimo no kudoda ibindi, hari n'umwana wicaye hasi.

Amatunda bita marakuca, aya matunda akaba arunze ahantu hamwe ku kintu cy'icyatsi, arimo afite ibara ry'umuhondo, harimo afite ibara ry'icyatsi, ndetse n'andi mabara atandukanye.

Iduka ricuruza imyenda itandukanye harimo amakoti, amakanzu, ndetse n'ibindi hakaba harimo umuntu umwe wicayemo, uyu muntu bikaba bivuzeko ariwe urimo gucuruza.

Aho bacururiza ibyo kurya, hari ibitoke, inyanya, imyembe, karoti ndetse n'umufuka w'amakara. Biteretse ahantu hamwe, bivuze ko ari aho bicururizwa.

Umucuruzi urimo gucuruza imyenda, yayitaditse hasi. Iyi myenda y'amakoboyi ndetse bigaragara ko ari ya myenda bakunze kwita caguwa. Hari umugabo umwe urimo kuyicuruza.

Imifuka minini igiye iteretse, ariko imifuka ntabwo batweretse ibintu birimo, iruhande rwayo har'umuntu urimo kugenda, ariko uy'umuntu akaba naw'atarimo kugaragara neza.

Isoko rinini cyane ricururizwamo ibiribwa, urugero harimo nka wotameroni, amatunda, karoti, imboga, ndetse n'indimu, byose biri ahantu hamwe, bigaragara ko ari aho babigurishiriza.

Umumama uhetse umwana uyu mumama arimo kugenda ayora imiteja ayoraho mike mike ayishyira mu ibafu ariko iruhande rwe hari abandi ba mama bahicaye kandi muri iyo miteja aho arimo kuyora ayikuye harunzeho ibirayi.

Ibishyimbo by'amabara atandukanye bigiye biri ku nkoko, ndetse bikaba bigaragara ko hariho n'indi nkoko iriho n'ibishyimbo by'ibitonore. Abantu barimo kugenda babitonora babikura mu bishishwa byabyo.

Iduka ricuruza ibintu bitandukanye by'umwihariko harimo ibintu bijyanye n'ibyo gukoresha mu kuyungurura ibintu runaka ndetse harimo n'ibindi bintu bikoreshwa nk'ibirungo.

Isoko ricururizwamo inkweto imyenda ndetse n'ibindi bintu byinshi bitandukanye, ndetse muri iryo soko biragaragara ko harimo abantu benshi barimo kugenda batambuka ndetse n'abandi bicaye.

Imbuto zirambitse ahantu hamwe. Izi mbuto harimo amaronji , wotameloni, imyembe , ibitunguru, ndetse n'ibindi byose biri ahantu hamwe bigaragara ko ari aho babicururiza.

Iduka ricuruza ibintu bitandukanye, harimo gaze, amatelefone ndetse n'ibindi. Hari urimo imbere bigaragara ko ariwe ucuruza, ndetse n'abandi bagabo babiri bari imbere ye bigaragara ko baje guhaha.

Abantu bicaye iruhande rwabo hakaba hagiye hari imifuka; iyi mifuka bigaragara ko irimo ibicuruzwa barimo kugenda bacuruza.

Isoko ryubakiye ndetse rinasakariye ririmo ibicuruzwa bitandukanye imyenda, amasafuriya, ibisorori ndetse n'ibindi byinshi. Iruhande rw'iryo soko hakaba hari abantu barimo kugenda.

Iduka ricuruza ibyo kurya harimo wotameroni, imyembe, maronji ndetse n'ibindi byinshi, ndetse hakaba harimo abantu barimo kugenda bahaha.

Umucuruzi w'umugabo uhagaze impande y'imyenda, bigaragara ko iyi myenda arimo kuyicuruza, iyi myenda bikaba bigaragara ko ari ya myenda yo mu bwoko bwa caguwa, uyu mucuruzi nawe akaba yambaye imyenda y'umukara irimo ibara ry'umweru.

Hari ibiribwa bitanditse hasi, iruhande rwabyo hari n'abantu barimo kugenda. Ibiribwa harimo: ibitunguru, amashu, puwavuro, n'ibirayi mu mufuka. Ikindi hari n' umunzani bakoresha bapima.

Umugabo umwe wicaye ku ntebe y'umweru, imbere y'inzu, ndetse n'abandi ba mama bahetse abana, n'abandi badahetse, ndetse n'abandi bana bari kwigendesha, ndetse n'ikinyabiziga k'igare.

Imbuto ziri ahantu hamwe ku nkoko, harimo imyembe, imineke, inyanya, inanasi, ndetse n'ibishyimbo, biri ahantu hamwe, buri kimwe kigiye kiri ku kintu cyacyo, bigaragara ko barimo kubicuruza.